Uyu ni umubyeyi uri mu iduka, akaba acuruza amavuta, akaba yambaye igitenge, ishapure, uyu mubyeyi akaba asutse, ni umubyeyi muri make wikorera.